Icyumba kicayemo abantu batandukanye, abo bantu bakaba bicaye mu ntebe z'imifariso bakaba bafite za mudasobwa ku meza imbere yabo.

Umugabo wambaye ikote mo imbere yambariyemo ishati, uwo mugabo imbere ye ku meza hakaba hateretseho indangururamajwi n'amacupa atatu y'amazi yo mu bwoko bw'inyange.

Abantu bicaye bazengurutse ameza imbere yabo k'umeza hakaba hariho amacupa arimo amazi bakaba bafite n'amakaye imbere yabo.

Abantu bicaye ku ntebe, inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze, imbere yabo hakaba hari ururabo ruri mu gakoresho k'umutuku, muri abo bantu hakaba harimo abambaye amataratara, akaba ku mpande z'abicaye ku ntebe hari abagore bambaye imyambaro iri mu bara ry'umutuku.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, aho harimo umwe uhagaze urimo aratanga ubusobanuro, imbere ye ku rukuta hakaba hariho amagambo arimo kwifashisha mu gusobanura, imbere y'abo bantu ku meza hakaba hateretse amazi yo kunywa na za mudasobwa.

Abantu batatu imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro gisa n'umweru; imbere yabo ku meza hakaba hari amacupa arimo icyo kunywa.

Umugabo urimo aratanga imbwirwaruhame akaba yambaye ishati iciyemo uturongo tw'umweru, uyu mugabo akaba afite ikaramu mu ntoki yambaye n'amadarubindi.

Abagabo bambaye imipira y'ubururu muri abo bagabo hakaba harimo umwe wambaye amadarubindi ufashe terefone y'umukara mu ntoki n'urupapuro rw'umweru.

Abagabo bicaye mu cyumba k'inama aho imbere yaho hari ameza afite ibara ry'umutuku n'umweru, imbere y'abo bagabo hakaba hateretse amacupa arimo amazi yo kunywa yo mu bwoko bw'inyange.

Abantu bicaye mu buryo bw'uruziga imbere yabo hakaba hari ameza, ayo meza akaba ateretseho amazi yo kunywa ari mu macupa, abo bantu bakaba bicaye mu ntebe z'umukara zirimo imifariso.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi aho harimo umwe uhagaze urimo kubasobanurira, akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara aho muri abo bantu imbere ku meza hari za mudasobwa.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hakaba hari ameza asa n'umutuku, ku meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi, hakaba harimo n'abafite za mudasobwa imbere yabo ku meza.

Abantu batatu; harimo umusaza, umugabo, n'undi mukobwa, aho abo bantu barimo baraganira, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho amazi ari mu ducupa, hakaba n'uwo mudamu afite mudasobwa imbere ye.

Bicaye mu nzu mberabyombi muri abo bagabo hakaba harimo abasilamu babiri bambaye ingofero n'amataratara hagati yabo hakaba hari umugabo urimo arakoresha mudasobwa.

Inzu mberabyombi aho imbere y'abo bantu hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, ari mu icupa ayo mazi akaba ari ay'inyange muri abo bantu hakaba harimo n'umupolisi.

Abantu bicaye inyuma yabo hakaba hari abandi bicaye ku ntebe z'imifariso aho abicaye imbere hari ameza ari imbere yabo kuriyo meza hakaba hatetseho amacupa arimo amazi yo kunywa yo mu bwoko bw'inyange.

Abantu bicaye mu ihema muri abo bantu hakaba harimo abagabo, abagore. Hakaba harimo abicaye mu ntebe z'imifariso. Hakabamo umugabo wambaye umupira w'ubururu n’ amadarubindi.

Umugore wicaye mu cyumba cy'inama aho inyuma ye hari abandi bantu benshi, uwo mugore akaba yambaye ikoti ry'umutuku, imbere ye ku meza hakaba hateretse icupa ririmo amazi yo kunywa y'inyange, akaba afite ikaramu mu ntoki n'ikayi ku meza arimo arandikamo.

Abantu bicaye munzu mbera byombi, murabo bantu hakaba harimo abagabo bambaye amataratara, abo bagabo imbere yabo hakaba hateretse ameza ,kurayo meza hakaba hariho amacupa arimo icyo kunywa .

Bicaye mu nzu mberabyombi iyo nzu ikaba ifite ibitambaro by'umweru ugana ku rukuta imbere aho bantu hakaba bicaye mu ntebe z'umutuku wegamamo hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abasore.

Umudamu urimo gutanga inbwiruhame aho uwo mudamu afite indangururamajwi mu ntoki yo kwifashisha hakaba hari abantu bamukurikiye bicaye mu busitani bw'ikibuga.

Umusore ufite indangururamajwi mu ntoki akaba ari kuvuga imbwirwaruhame aho inyuma ye hari umugabo urimo arafotora.

Hano ni abantu batanu bicaye imbere y'ameza bafite imashini bameze nk'abantu bari gukora inama. Imbere yabo hateretse amacupa y'amazi bafite n'imashini bari gukoresha iteretse ku meza arambuyeho igitambaro cy'umweru

Ifoto yerekana abantu bitabiriye inama aho harimo abambaye imipira y'icyatsi hakaba harimo n'abambaye imipira irimo ibara ry'umuhondo hakaba abari imbere ku meza ateretse icupa ririmo amazi.

Abantu bicaye mu cyumba hakaba hari ameza imbere yabo, kuri ayo meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi abo bantu bakaba mu intebe z'imifariso zisa umutuku.

Iyi foto irerekana abantu bari mu nzu mberabyombi aho bafite za mudasobwa imbere yabo ku meza hakaba harimo abagore, harimo abagabo harimo n'abazungu.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako kuri esikariye. Muri abo bantu hakaba harimo abagabo bambaye amakote, hakaba harimo n'abandi bagabo bambaye amakanzu.

Abagabo bicaye mu nzu mberabyombi, abo bagabo bakaba bafite ameza imbere yabo, bakaba bicaye mu ntebe z'imisego, abo bagabo hakaba harimo abambaye amakote, ku meza hakaba hateretse amacupa arimo amazi yo kunywa yo mu bwoko bw'Inyange.

Abantu bari mu cyumba cy'inyubako, aho harimo umwe urimo gutanga imbwirwaruhame, akaba ari kwifashisha indangururamajwi, aho muri abo bantu ari kubwira harimo umugore wambaye ishati y'umutuku, muri icyo cyumba hakaba harimo intebe zifite imisego irimo agatambaro k'irangi ry'umutuku.

Umugore ufite indangurura majwi mu ntoki, akaba arimo kuvuga imbwirwaruhame, umugore akaba yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, akaba yambaye amadarubindi n'ipantaro y'umukara.

Umugabo urimo gutanga amahugurwa aho abamukurikiye harimo abagore abo bagore bamukurikiye n'abandi bagabo imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho ibitambaro by'umweru uwo mugabo urigutanga amahugurwa akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara yanatebeje.

Abantu bicaye imbere y'ameza hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, aho imbere ku meza hateretse amacupa y'amazi, bakaba bafite na za mudasobwa imbere yabo.

Inzu mberabyombi, irimo abantu benshi bicaye ku meza, imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, aho muri abo bantu harimo abagore ndetse n'abagabo.

Umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame, akaba yambaye inkweto z'umutuku, akaba arimo kuvugira mu ndangururamajwi, aho imbere hicaye umugore n'umugabo, hakaba harambuye/hariho igitambaro kirimo kirerekana amagambo asobanura uburyo ki wakwihangira udushya.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hakaba hari umuntu urimo kubigisha, imbere yabo hakaba hari n'ameza, ayo meza akaba ateretseho amazi yo kunywa ari mu macupa, bakaba bafite naza mudasobwa.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi muri abo bantu hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo inzu mberabyombi ikaba afite urugi ruriho irangi ry'umutuku hakaba ari amazi ku meza ateretse imbere yabo.

Umugabo uri gutanga imbwirwaruhame akaba afite indangururamajwi mu ntoki akaba yambaye umupira w'umweru, aho abari kumva iyo mbwirwaruhame bicaye mu ihema ry'umweru hakaba harimo abagore abagabo ndetse n'abana.

Umugore wambaye ishati y'umweru, urimo aratanga amahugurwa, imbere ye hakaba hari abantu bamukurikikiye bari bicaye mu ntebe z'inyegamo, aho uwo mugore yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba arimo aravugira mu ndangururamajwi.

Abantu bicaye mu ihema aho inyuma y'aho ku nkuta z'iryo hema hariho ibitambaro by'umweru, hakaba harimo abagabo bicaye mu ntebe z'imifariso bambaye amakoti imbere y'abo hakaba hari ameza ateye irangi ry'umutuku.

Umupolisi uri mu biro aho ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y’ umweru ugaragara nkaho ari umuzungu iruhande yabo hakaba hari undi muntu uri gukoresha mudasobwa iteretse ku meza bakaba bafite umuti wica imyanda mu ntoki ku meza nka hari n’ icupa ririmo amazi.

Umunara w'itumanaho aho umunara usize amarangi y'umweru n'ay'umutuku ukaba ukikijwe n'ibyuma.

Ubufasha bushyashya bushobora gutangirwa ku rubuga rw' irembo aho ikigo gitanga ubwo bufasha ari porisi y'urwanda bikaba biri mu buso bw'ibara ry'ubururu.

Inyubako hejuru hariho ikirango cyerekana ko batanga ubufasha mu mikoreshereze y 'irembo iyo nyubako ikaba ifite inzugi zisize amarangi yicyatsi.

Icyapa cy mu bwoko by'ibyapa bimenyesha iki cyapa kikaba kiri mu ishusho ya mpande enye kikaba gifite ikirango cy'umweru, mu buso bw'ubururu, umuzenguruko w'umweru.

Iyi foto irerekana umuntu urimo werekana muri telefone uko wakwishyura serivisi z'irembo ya byikorere uwo umuntu akaba yambaye umupira w'umutuku, umupira w'ibara ry'ubururu.

Inzira wanyuramo urimo kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, aho barimo berekana intambwe ya kabiri, izi ntambwe zikaba zigaragara ku rubuga rw'irembo.

Umunara ushinzwe gutanga rezo kugira ngo itumanaho rigende neza uwo munara ukaba ufite ibyuma risize irangi risa n'umutuku ndetse n'umweru.

Harabura iminsi itatu tariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro w'umutungo utimukanwa bibiri na makumyabiri na kane ni tariki mirongo itatu z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri nakane hakaba harimo amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo akaba yerekana ko habura iminsi itatu bikaba biri mu buso bw'ubururu

Abanyeshuri bicaye mu cyumba kirimo za mudasobwa, abo banyeshuri bakaba barimo barakoresha za mudasobwa, aho muri abo banyeshuri harimo abambaye amashati y'umweru.

Abakinnyi batandatu bambaye imipira y'umweru ifite amabara y'umutuku ku maboko, munsi yabo hakaba hari abandi bari mukibuga bari gukina mu mukino w'amaboko.

Umunara w'itumanaho wifashishwa mu kongera rezo aho umunara ufite ibyuma biteye irange risa nk'umweru n'iy'umutuku ukaba ukikijwe n'ibyuma.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, inyubako ikaba ifite inkingi zifashe ibaraza, aho imbere y'iyo nyubako harimo mu ibara ry'umweru, inyuma y'imodoka hakaba haparitse ipikipiki ifite ibara ry'umutuku n'umukara.

Igikoresho kifashishwa mu gufata insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi. Aho hakenewe ingufu nyinshi zihagije, izo nsinga zikaba zidafite igishishwa.

Ibikenewe ingufu zihagije z'amashanyarazi, hakaba hari igikoresho, gishinzwe gufata insinga zitwaye uwo muriro, aho icyo gikoresho gikozwe mu byuma.

Umuhanda w' ibisate bibiri igisate kimwe kikaba kirimo kugendamo ipikipiki, aho iruhande y'uwo muhanda hari icyapa kerekana umuvuduko ntarengwa ubujijwe ko ari mirongo itandatu.

Uruzingo rw' urutsinga rwifashisha mu gutwara umuriro w' amashanyarazi. Urwo ruzingo rukaba ruteretse hasi ku butaka; izo nsinga zikaba zifite igishishwa gisa n' ubururu.

Igikoresho gishinze ku muhanda cyifashishwa mu gufata insinga z'umuriro w'amashanyarazi uringaniye, izo nsinga zikaba zifite igishishwa cy'umukara zikaba zitwara umuriro ziwugeza ku baturage.

Inyubako ifite igipangu, aho inyuma icyo gipangu harimo ubusitani, muri ubwo busitani hakaba hashinzemo igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwugeza ku baturage.

Umuntu urimo arakubura mu muhanda, aho uwo muntu yambaye umwambaro w'akazi, muri uwo muhanda hakaba harimo umuntu urimo gutambuka, hakaba hari n'undi muhanda winjiramo, aho muri uwo muhanda winjiramo haparitsemo umumotari.

Ahashinze igikoresho kiriho itara ryo ku muhanda, icyo gikoresho kikaba kinafashe insinga zitwara umuriro uringaniye w'amashanyarazi, izo nsinga zikaba zifite igishishwa cy'umukara.

Inzu ifite igipangu gifite amadirishya akoze mu byuma, Ibyumaka bikaba biteye irangi ry'umutuku. Iyo nzu nayo ikaba isakaje amabati y'umutuku, imbere y'iyo nzu hakaba hari igikoresho gishinzwe gufata insinga zitwaye ingufu nyinshi z'amashanyarazi.

Amatara yo ku muhanda, ku bikoresho bifashe ayo matara hakaba hanyuraho insinga zitwara umuriro ucana yo matara, izo nsinga zikaba zifite igishishwa cy'umukara.

Ahakenewe ingufu nyinshi z'amashanyarazi aho hari igikoresho gishinzwe gufata insinga zitwara ingufu nini z'amashanyarazi zikaba zikoze mu byuma izo nsinga zikaba zidafite igishishwa.

Insinga zitwaye umuriro uhagije w'amashanyarazi, izo nsinga zikaba zifashwe n'igikoresho cyabugenewe, munsi y'izo nsinga hakaba hari n'izindi zitwaye umuriro uringaniye zifite igishishwa cy'umukara.

Ahantu hakenewe ingufu nyinshi zihagije z'amashanyarazi, aho imbere ku muhanda hari icyapa kerekana ibyerekezo, aho hari ikerekezo kigana ku mupaka w'i Gatuna, hakaba n'ikindi kerekana umuhanda ujya muhanga na musanze.

Ahantu hakenewe ingufu nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi, aho hari icyuma gifata insinga zitwara izo ngufu zihagije z'amashanyarazi.

Umuntu utwaye igare akaba yambaye umupira wa oranje. Iruhande hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga z’amashanyarazi zitwaye umuriro uringaniye. Izi nsinga zikaba zitwara umuriro ziwugeza ku baturage.

Itara ryo ku muhanda rikaba ritwaye n'insinga zigeza umuriro ku baturage izo nsinga zikaba zifite igishishwa cy'umukara.

Inyubako irimo ubucuruzi bugiye butandukanye, aho bimwe mu bicuruzwa harimo ibiryamirwa, imbere y'iyo nzu hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Umuntu ukeneye ingufu zihagije z'amashanyarazi, akaba ari igikoresho gishinzwe gufata insinga zitwaye uwo muriro, icyo gikoresho kikaba gikoze mu byuma.

Urugomero rw'amashanyarazi aho harimo abakozi bagiye batandukanye, muri urwo rugomero hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kongera umuriro hakaba harimo n'ibirinda inkuba.

Igikoresho kifashishwa mu gufata insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwugeza ku baturage, icyo gikoresho kikaba kiri mu bwoko bw'igiti kikaba gitwaye insinga zifie igishishwa cy'umukara.

Umudugudu urimo inyubako isakaje amabati y'umutuku, ikaba iteye irangi ry'umuhondo, ukaba ukingishije inzugi n'amadirisha biteye irangi ry'umweru, imbere y'iyo nzu hakaba hari ibiti bifashe itsinga zitwara umuriro w'amashanyarazi uringaniye.

Igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi uringaniye, izo nsinga zikaba zifite igishishwa cy'ibara ry'umukara.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, uruzitiro rukaba rurimo ibyuma bisize irange ry'umukara. Mu imbere hakaba harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Ibikoresho bifashe insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, aho izo nsinga zitwara umuriro uringaniye w'amashanyarazi ziwugeza ku baturage, iruhande y'ibyo bikoresho hakaba hari itara ryo ku muhanda hakaba hateye n'ibiti.

Igikoresho gikozwe muri sima n'umucanga n'amabuye cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye ingufu nyinshi z'amashanyarazi, hakaba hanyuzeho n'insinga zitwara umuriro uringaniye w'amashanyarazi.

Igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye ingufu nyinshi z'amashanyarazi, icyo gikoresho kikaba gishinzwe mu butaka aho insinga gitwaye zidafite igishishwa inyuma.

Itara ryo ku muhanda aho igifashe iryo tara kinyuzemo n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi uringaniye, munsi y'iryo tara hakaba harimo ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, icyo kinyabiziga kikaba gifite ibara ry'umweru.

Ahakenewe ingufu nyinshi z'amashanyarazi aho hari igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye izo ngufu nyinshi z'amashanyarazi, izo msinga zikaba zitagira igishishwa.

Abantu bicaye imbere yabo hakaba hari ameza atetseho za mudasobwa, abo bantu bakaba bambaye amashati y'umweru.

Imbangukiragutabara ebyiri zihagaze aho baparika ibinyabiziga, iruhande yazo hakaba hari indi modoka yo mu ibara ry'umukara inyuma hakaba hari inyubako y'ibitaro.

Umuntu urimo uratambuka mu marembo y'inyubako aho iyo nyubako imbere ifite urukarabiro hakaba uruka rukaba rusakaje amabati rufashwe n'ibyuma bisize irangi ry'umutuku.

Ifite ubusitani imbere hakaba hariho n'ibaraza ririnda abantu kunyagirwa, imbere y'iyo nyubako hakaba hari igikoresho gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, icyo gikoresho kikaba kiri mu ibara ry'umutuku kikaba gifite n'amapine.

Amarembo y'ikigonderabuzima aho muri ayo marembo hari urukarabi rwometseho amakaro y'umweru, imbere muri ayo marembo hakaba haparitse umumotari, hakaba n'abandi babyeyi bafite ibikoresho birimo ibiribwa bagemuriye abarwayi kwa muganga.

Imodoka eshatu zihagaze ahabugenewe, muri izo modoka hakaba haribo ebyiri z'umweru, imwe y'umutuku, imbere yazo hakaba hari umugore wicaye, ufite teremusi n'igikapu.

Umugore urimo urasohoka mu nyubako, aho iyo nyubako irimo igikoresho gishinzwe gutanga umuyaga ku bantu barimo imbere.

Abantu bicaye ku ntebe ikozwe muri sima, inyuma y'inyubako, bakaba ari abantu bategereje guhabwa ubufasha, hakaba harimo abagore, abagabo, iyo nyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Abantu bicaye ku ntebe bategereje guhabwa ubufasha aho hantu hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo hakaba harimo abagore b'abagororwa bambaye imyenda iri mu ibara ry'iroza.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku imbere mu gatuza harimo agatambaro k'umweru akaba yambariyemo imbere ishati na karuvati.

Umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame uwo mugabo akaba yambaye ikoti ry'umukara akaba afite ikayi mu ntoki akaba arimo gutunga urutoki abantu .

Abagabo babiri bambaye amakanzu yumukara imbere mu gatuza afite agatambaro k'ibara ry'umweru bakaba barimo guhererekanya inkoni .

Abagororwa batonze umurongonko aho abo bagororwa bambaye udupfukamunwa aba babororwa bakaba barimo n'abashinzwe kubacungira umutekano.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku, iyo kanzu ikaba ifite ibara ry'umukara mu gatuza, harimo n'ibisa n'umweru, akaba yambariye ishati y'umweru mo imbere muri iyo kanzu.

Igazeti yasohotse ku itariki makumyabiri z'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, iyo igazeti ikaba ikubiyemo ingingo zitandukanye, aho byanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, icyongereza, n'igifaransa.

Abagororwa bicaye ku ntebe z'imbaho. Muri abo bagororwa hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, iruhande yabo hakaba hari abaturage basanzwe.

Umugabo wambaye amadarubindi, uwo mugabo akaba yogoshe, akaba yambaye ikanzu isa n'umutuku, mu gatuza hakaba harimo ibara ry'umukara ririmo umweru, m’ imbere yiyo kanzu, akaba yambariyemo ishati y'umweru na karuvati.

Igazeti ya leta yasohowe ku itariki ebyiri z'ukwa kenda ibihumbi bibiri na cumi, iyo gazeti ikaba irimo ingingo zitandukanye aho yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda igifaransa n'icyongereza.

Abantu bicaye mu micaca imbere yabo hakaba hari abagororwa aho umugorogwa umwe ahagaze imbere yabo, akaba yambaye ikabutura n'ishati n'inkweto z'umukara, aho muri abo bantu harimo abitwikiye imitaka.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ifite agatambaro k'umweru imbere mu gatuza umugabo akaba n'imbere yambariyemo ishati na karuvati .

Umugabo wambaye amataratara akaba yahuje ibiganza numugabo akaba yambaye isaha, ikaba yambaye n'ikote ry'umukara n'imbere akaba yambariyemo ishati y'umweru.

Amagambo yandikishije ibara ry'umukara, akaba ari kurupapuro rw'umweru, ayo magambo akaba yanditse mu ndimi eshatu arizo, Ikinyarwanda, Icyongereza, n'Igifaransa.

Umugororwa uhagararanye n'umugabo wambaye ikanzu y'umukara, bombi bakaba bambaye udupfukamunwa umugororwa akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru, uwo bahagararanye akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Igazeti ya leta, iyo gazeti ikaba yarasohotse ku itariki makumyabiri na zirindwu z'ukwacumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, iyo gazeti ikaba igizwe n'ingingo zitandukanye izo ngingo zikaba zanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, icyongereza ndetse n' igifaransa

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Umugore n'umugabo bahagaze n'undi mugore n'umugabo bicaye, abagabo babiri bakaba bambaye imyenda isa n'abo bagore babiri bambaye imyenda isa, bakaba bari mu biro, imbere yabo hakaba hari ameza, hari na mudasobwa ku ayo meza hakaba hariho icupa ry'amazi.

Igazeti yo ku itariki makumyabiri z'ukwacyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani akaba ari igazeti yerekana ingingo zitandukanye, aho igazeti iri mu rurimi rw'icyongereza, ikinyarwanda, n'igifaransa.

Abagore n'abagabo bambaye amakanzu y'umutuku afite ibara ry'umweru mu gatuza, bakaba bambaye ingofero z'umukara zizengukijemo ibara ry'umuhondo.

Igazeti ya leta yakozwe ku itariki makumyabiri z'ukwa cyenda mu bibiri na cumi n'umunani aho inogazete iri mu rurimi rw'icyongereza ikinyarwanda n'igifaransa ikaba ikubiyemo ingingo zigiye zitandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama aho bambaye amakoti y'umukara n'imbere bakaba bambariyemo imyenda y'umweru, imbere y'abo hakaba hari ameza ateretseho impapuro, hakaba hariho na telefone, hakaba hariho n'amacupa arimo amazi.

Abagororwa babiri bicaye ku ntebe y'urubaho, nyuma yaho hakaba hari abagore ndetse n'abagabo, abo bagororwa bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi.

Igazeti ya leta yasohotse ku itariki ebyiri z'ukwa kenda, ibihumbi bibiri na cumi, iyo gazeti ikaba gizwe n'ingingo zigiye zitandukanye, izo ngingo zikaba zanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, icyongereza, n'igifaransa.

Umupolisi ushinzwe umutekano m'umuhanda imbere ye hakaba harimo haratambuka abanyamaguru aho umupolisi umwambaro we w'akazi harimo utugarumuri tw'icyatsi umuraba no gutambuka imbere hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku akaba afite na ambaraje mu ntoki.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro; aho icyo gikoresho gifite ibara ry'umutuku.

Abapolisi b'u Rwanda, aba bapolisi bakaba bambaye impuzankano y'umukara iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bahagaze ku murongo bahetse ibikapu mu mugongo.

Abapolisi bashinzwe umutekano barimo baragenda mu muhanda, aho inyuma yaho hari umugabo utwaye igare, akaba yambaye ikote ry'icyatsi n'ingofero y'umutuku hakurya hakaba hari abantu bicaye mu mitaka iri mu ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umutuku.

Inzego zikoze mu byuma zifashishwa mu kurira, aho izo nzego zishobora kongerwa cyangwa zikagabanywa bitewe n'uburebure bakeneye.

Umupira wishisha mu gutwara bimwe mu byifashishwa mu kuzimya umuriro. Uwo umupira ukaba ufite ibara ry'umutuku, ukaba uzinze ku gikoresho gisize irangi ry'umutuku.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, akaba ahagaze iruhande rw'inzira y'yamaguru, imbere ye hakaba harimo gutambuka abagenzi bari kugenda n'amaguru, umupolisi akaba yambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umukara n'ingofero y'umukara, imbere yabo hakaba hari inyubako igeretse.

Inyubako ya polisi y'u Rwanda, imbere y'iyo nyubako hakaba haparitse ibinyabiziga aho kuri iyo nyubako hariho icyapa cyerekana ko ari inyubako ya polisi iherereye ku muhima ikaba yerekana ko ari aho bakorera ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga.

Byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, ibikoresho akaba ari bibiri byombi bikaba bifite ibara ry'umutuku.

Inzego zishobora kongerwa zifashishwa mu kurira inyubako runaka cyangwa se ahandi hantu runaka, aho izi nzego zifite amabara y'umweru n'ayo umutuku.

Umupolisi ushinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, uwo mupolisi akaba yambaye igisarubeti, akaba arimo arerekana uburyo ki wazimya umuriro watewe na gaze.

iyi foto i yerekana abapolisi babiri bashinzwe umutekano wo mu muhanda aho barimo barareba ikinyabiziga cyabo akaba ari abapolisi babiri bambaye amajile inyuma imirongo yamabara ashashagirana

Umuhanda urimo umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda , umupolisi akaba ari ku kinyabiziga cy'ipikipiki, i ruhande hakaba imodoka ifite ibara ry'umweru.

Aho baparika ibinyabiziga, hakaba harimo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umukara, icyo kinyabiziga kikaba nta muyobozi urimo, ahubwo giparitse, hakurya yacyo hakaba hari ikigega cy'amazi gifashwe n'ibyuma bisize irange ry'ubururu.

Abanyamuryango b'umuryango wa efuperi inkotanyi hakaba hari umugore umanitse amaboko akaba yambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, inyuma hakaba hari n'abandi bambaye ingofero z'umuryango n'imipira bakaba bamanitse n'ibendera ry'uwo muryango.

Umugore wambaye ishati y'iribaya; umugore akaba afite igitabo mu ntoki kirambuye.

Umurongo w'abantu benshi bagiye batandukanye aho batonze imbere y'ihema umugabo uri imbere akaba yambaye ingofero y'abayisilamu akaba yambaye n'ikanzu y'umweru.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki akaba yambaye ishati y'umweru n'ingofero y'umukara ,uwo mugabo akaba yambaye isaha mu kaboko akaba yambaye n'amadarubindi.

Umugabo wambaye amadarubindi, uno mugabo akaba yambaye ikoti ry'umukara na karuvati y'umukara, imbere y'ikoti akaba yambariyemo ishati y'umweru, uwo mugabo akaba afite indangururamajwi imbere ye.

Abakandida batatu bahataniraga umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri abo bakandida hakaba harimo Kagame Paul, Habineza Frank na Mpayimana Philippe, kuri abo bakandida buri mukandida hakaba hariho amanota yagiye agira mu matora.

Wambaye umupira w'umukara. Umugore akaba akenyeye n'igitenge akaba yambaye n'impeta mu gatoki n'isaha mu kaboko, Umugore akaba arimo aramwenyura.

Umukuru w'igihugu cy'Urwanda, aho arimo asuhuza abaturage, akaba yambaye amadorubindi, akaba yambaye ishati iriho ikirango cy'umuryango, akaba ishati iri mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati yumweru urimo gutanga imbwirwaruhame akaba afite indangururamajwi mu ntoki inyuma ye hakaba hari abagabo bambaye amajire y'umukara namashati y'umweru.

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe, umugabo akaba yambaye ishati y'umweru akaba yicaye mu ntebe z'imifariso, aho umugore yambaye ikote ry'icyatsi bakaba barimo barakoma amashyi.

Abantu bicaye ku ntebe inyuma yabo hakaba hari abandi bahagaze, muri abo bahagaze hakaba harimo abambaye imipira y'ubururu n'iy'umweru, muri abo bicaye hakaba harimo umusirikare umwe, n'umupolisi umwe, n'umudamu umwe wambaye amataratara.

Umukuru w'igihugu cy' u Rwanda akaba yambaye akaba ishati y'umweru n'amataratara akaba arimo arasuhuza abanyamuryango b'umuryango wa efuperi inkotanyi.

Ikirango cy'umuryango wa efuperi inkotanyi, aho hasi handitse demokarasi, ubumwe amajyambere bikaba biri mu ibara ry'umuhondo hakaba harimo umutwe w'intare.

Inzu mberabyombi, yicayemo abantu bagiye batandukanye, imbere yabo hakaba hari indangururamajwi, hakaba hari n'ameza ateretseho amacupa arimo amazi, bakaba bafite na za mudasobwa imbere yabo.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda akaba afite indangururamajwi, umuyobozi akaba yambaye umupira w'umweru, ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wambaye amadarubindi, umugore akaba yambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, aho iyo myambaro ari ikoti n n'ijipo.

Bicaye mu nzu mberabyombi akaba bombi ari igitsina gore, hakaba harimo uwiteze igitambaro cy'umweru, bakaba bicaye mu ntebe z'umweru hakaba harimo abambaye imipira y'icyatsi.

Ikirango cy'ishyaka, kuri icyo kirango hakaba harimo ikimera cy'isaka, hakaba harimo igipfunsi gifashe icyo kimera. Hakaba harimo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'andi yanditse mu ibara ry'ubururu mu ishusho y'uruziga.

Umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame aho uwo mugabo amanitse akaboko akaba afite indangururamajwi mu ntoki imbere ye hakaba hari abantu bahagaze barimo kumwumva .

Umugore wambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi; akaba yicaye mu ntebe y'imifariso; uwo mugore akaba yambaye isaha mu kaboko n'imbere y'ikote akaba yambayemo ishati y'ubururu ifite ibipesu.

Uteruye umwana, umwana akaba yambaye ikote n'ipantaro, iruhande rwe hakaba hari undi mwana, nawe wambaye ikote n'ipantaro, na karuvati n'ishati, y'umweru.

Abanyamuryango ba efuperi inkotanyi bakaba bateraniye hamwe, aho hantu bateraniye bakaba bambaye imipira y'umweru, n'ingofero z'umweru hakaba hari n'amabendera y'uwo muryango

Umugore wicaye mu biro , umugore akaba yambaye amataratara, akaba yambaye ikote ry'umukara mu imbere yambariyemo umwambaro w'umweru, imbere yu mugore hakaba hari ameza ateretseho amazi ari mwicupa riri mubwoko bw'inyange.

Abagabo n'abagore, barimo kurahira, bakaba bafite indangururamajwi imbere yabo, iruhande yabo hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bombi bakaba bazamuye ikiganza cy'iburyo.

Abantu babiri barimo kurahira aho umugabo yambaye ikanzu y'umweru n'ikote ry'umukara umugore yambaye umukenyero bakaba bafashe ku ibendera ry'igihugu bakaba bafite n'indangururamajwi imbere yabo bakaba bazamuye ikiganza cy'iburyo .

Abagabo babiri bambaye amakote, mu mpande zabo hakaba hari ibendera kuri ruhande ya buri mugabo, aho umwe i ruhande ye hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, abo bagabo bakaba bambaye amakoti y'umukara na za karuvati n'amashati y'umweru, bakaba bambaye n'amadarubindi.

Umuntu wisize amarangi, ayo marangi akaba arimo ibara ry'icyatsi, ry'umutuku n'iy'umweru, bigaragara ko arimo yamamaza, umuryango wa efuperi inkotanyi.

Umugore wambaye ishati y'umutuku, uyu mugore akaba yamabeye n' amaherena, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, uyu mugore akaba yambaye n'ijipo y'umukara.

Abantu bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru, imbere yabo ku meza hakaba hariho impapuro n'icupa ririmo amazi.

Abagore babiri n'umugabo umwe, uwo mugabo akaba ahagaze hagati y'abo bagore. Uwo mugabo akaba yambaye amataratara, akaba yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'imbere y'ikote akaba yambariyemo n'ishati y'umweru.

Umuhanda w'ibisate bibiri, aho muri uwo muhanda igisate kimwe kirimo ikinyabiziga gitwara imizigo gifite ibara ry'ubururu imbere y'ikinyabiziga hakaba hari umuntu utwaye igare wambaye ingofero yumutuku.

Umuhanda w’ibisate bibiri aho igisate kimwe kirimo ikinyabiziga, kirimo ibara ry’umweru inyuma y’ikinyabiziga, hakaba ari abamotari bagikurikiye.

Umuhanda urimo ikamyo itwara imizigo iyo kamyo ikaba ifite irangi ry'umutuku mukengero z'umuhanda hakaba harimo umuhanda w'abamaguru aho hari kunyuramo umuntu wambaye umupira w'umweru.

Umuhanda w'ibisate bibiri, hakaba hari ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki gifite ibara ry'ubururu, aho imbere y'icyo kinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki hari ikamyo itwara imizigo, iyo kamyo ikaba iri mu ibara ry'umutuku.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange iruhande rw'iyo modoka hakaba hariiumugabo wambaye ingofero y'umweru uwo mugabo akaba afashe ku rugi rw'iyo modoka, iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umweru n'utundi tubara tw'icyatsi mu mpande.

Umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga aho muri ibyo binyabiziga harimo amapikipiki, hariho aba motari bahetse abagenzi ,hakaba harimo ikinyabiziga kiri guturuka imbere yabo gifite aho umuyobozi yicara hasa n'umweru inyuma hakaba hasize irangi ry'umukara.

Aho baparika, hakaba haparitsemo ibinyabiziga bigira amapine abiri inyuma n'indi pine rimwe imbere. Ibyo binyabiziga bikaba biri mu mabara y'ubururu.

Umuhanda w'ibisate bibiri, umuhanda ukaba urimo kugendamo ibinyabiziga bibiri, kimwe kiri mu bwoko bw'ikamyo isa nk'umutuku inyuma hakaba hari ikinyabiziga k'ipikipiki gifite ibara ry'ubururu.

ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, ikinyabiziga kikaba gifite amabara y'ubururu n'umweru iruhande rw'ikinyabiziga hakaba hari umukozi utanga ubufasha ukora ibyo kubitsa no kubikuza akaba yambaye umwambaro w'umuhondo.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki, iyo pikipiki ikaba ifite ibara risa ubururu inyuma ahajya imizigo hakaba hatwikirije ihema ry'umukara.

Umuhanda w'ibisate bibiri aho igisate kimwe kiri kunyura mu ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, icyo kinyabiziga kikaba gifite ibara ry'umweru mu mpande harimo imirongo y'icyatsi.

Umuhanda w'ibisate bibiri, aho uwo muhanda urimo ikinyabiziga gitwara imizigo, icyo kinyabiziga kikaba gifite ibara ry'umweru, hakaba harimo umuyobozi ugitwaye.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'umweru iruhande yaho ikaba iri kubisikana n'umumotari uhetse umuntu uteruye umwana bombi bakaba bambaye ingofero z'umutuku.

Umuhanda w'ibisate bibiri muri uwo hagati hakaba harimo kumurongo w'umuronko urombereje hakaba hari kugendamo umumotari utwaye ipikipiki, uwo mumotari akaba yambaye umwambaro w'akazi ufite ibara ry'umuhondo n'iry'ubururu

Iyi foto irerekana ikamyo iri mu muhanda, ikamyo itwara ibintu, ikaba iri mu umuhanda, ikaba ifite aho umuyobozi waho yicara hasa nk'umweru naho ipakira imizigo hasa nk'umuhondo.

Imodoka itwara imizigo iri mu umuhanda. Iyo modoka inyuma aho imizigo iri akaba atwikije ihema ry'umweru, iyo modoka ikaba nayo ifite ibara ry'umweru, hakaba harimo n'umuzenguruko w'ibara ry'icyatsi.

Umuhanda w'ibisate bibiri harimo ibinyabiziga byo m'ubwoko bw'ikipiki birimo biragenda imbere yuwo muhanda haka igorofa ririmo farumasi imbere y'iyo gufa harimo forumasi hakaba hari umunyamaguru uri gutambuka.

Ikamyo iri kugenda mu muhanda, iyo kamyo ikaba ifite ibara ry'umweru, iyo kamyo inyuma ahajya imizigo hakaba hatwikirije ihema rifite ibara ry'umukara.

Umuhanda w'ibisate bine aho hari ikamyo nini irimo iranyuramo imbere ikaba igeze ahantu hari umuhanda w'abanyamaguru, imbere y'iyo kamyo hakaba haciye umurongo w'umweru, iyo kamyo ikaba nayo iri m'ibara ry'umweru.

iyi ni ishusho iri kwerekana umuntu uri gutambuka mu muhanda yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi kumwe n'inkweto imbere y'akabare ku za rifani isa nk'ubururu ihetse imizigo itwawe n'umuntu wambaye umupira w'umukara.

Umuhanda w'ibisate bibiri muri uwo muhanda hakaba ari kunyuramo ikinyabiziga, ikinyabiziga kikaba gifite ibara ry'umweru hakaba harimo n'abantu

Umuhanda w'ibisate bine aho harimo ibinyabiziga birimo kubisikaniramo hakaba harimo ikinyabiziga gitwara imizigo n'ikindi gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, igitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kikaba kirimo kigizwe n'ibara ry'umweru.

Umuhanda urimo kunyuramo ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka, iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umweru ikaba ihetse imizigo aho iyo mizigo itwikirije ihema ryo mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda w'ibisate bibiri aho igisate kimwe kirimo kunyuramo ikamyo itwara imizigo, iyo kamyo ikaba ifite ibara ry'icyatsi, inyuma ikaba iriho ihema ritwikira imizigo riri mu ibara ry'ubururu.

Imodoka itwara imizigo ikaba iri mu muhanda iyo modoka ikaba iriwibara ry'umweru inyuma muri iyo modoka hakaba hicayemo umuntu urimo gu gukora terefone mu mizigo itwaye hakaba harimo ibyuma bizirikishije ikiziriko cy'umweru.

Abanyonzi bahagaze iruhande rw'umuhanda muri abo banyonzi hakaba harimo uwambaye umupira w’umutuku hakaba harimo nundi wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umutuku.

Umuhanda urimo abantu barimo baratwara imizigo mu kanyabiziga kagenewe gutwara imizigo, imbere yabo hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu gutwara insinga zitwaye ingufu nini z'amashanyarazi.

Aho baparika ibinyabiziga, aho aho hantu harimo imodoka y'umweru, yanditseho amagambo arimo ibara ry'umutuku, iruhande rw'iyo modoka hakaba harimo abantu, umusore wambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara.

Umuhanda urimo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, iruhande ku kayira k'abanyamaguru hakaba hari gutambuka umunyamaguru wambaye imyenda y'umukara icyo kinyabiziga kikaba kiri mu ibara ry'umutuku.

Iyi foto irerekana umumotari uri mu muhanda utwaye umuntu, akaba ari umumotari wambaye ingofero y'umutuku, akaba yambaye n'ijire ry'umuhondo akaba ahetse umuntu inyuma ye hari indi moto.

Umuhanda w'ibisate bibiri aho muri uwo muhanda harimo kunyuramo umumotari uhetse umugore bombi bakaba bambaye ingofero z'ubururu inyuma yabo hakaba hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda urimo abamotari babiri barimo barabisikana, aho impande yabo hari icyapa kirimo ikirango gisa n'umutuku, ubuso bw'umweru, abamotari bafite moto zifite amabara y'umutuku.

Umuhanda w'ibisate bibiri, aho igisate kimwe kirimo imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, iyo modoka ikaba ifite irangi ry'icyatsi ahagana hasi, iyo modoka akaba ari iya kampani itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yitwa ritiko.

Ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange. Ikinyabiziga kikaba gifite ibara rya oranje hejuru no hasi; hagati hakaba harimo ibara ry'umweru ryanditseho amagambo yanditse mu ibara rya oranje; iruhande rwicyo kinyabiziga hakaba harimo gutambuka umunyamaguru wambaye isarubeti y'ubururu.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange izi modoka zikaba ari ebyiri zikaba zifite amabara y'umweru n'ubururu.

Itwara imizigo iyo kamyo ikaba ifite ibara ry'umutuku, ikaba irimo irabisikana n'indi kamyo itwaye imizigo, ikaba itwikirije ihema ry'ubururu hejuru.

Umuhanda urimo abamotari ukaba amapikipiki afite amabara y'umutuku akaba yambaye ingofero z'umutuku nyuma y'aho hakaba hari ikamyo itwara imizigo ,hakaba hari n'ahantu hakenewe ingufu zihagije z'amashanyarazi hakaba hari ahantu izo ngufu zinyura inyuma yabo.

Umuhanda urimo imodoka itwara abantu muburyo bwa rusange aho iyo modoka ifite ibara ry'umweru n'ubururu ifite n'ibara ry’ icyatsi agana hejuru iruhande iyo modoka hakaba hari umuntu urimo aratambuka.

Umuhanda uri kunyuramo ikamyo itwara imizigo iyo kamyo ikaba ifite ibara ry'ubururu n'umweru, inyuma y'iyo kamyo hakaba hari umuntu utwaye ikinyabiziga k'igare, hakaba hari n'undi utwaye moto.

Itwaye imizigo hejuru y'iyo mizigo hakaba hari umugabo uyicayeho wambaye umupira w'umuhondo, iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda urimo kunyuramo ikinyabiziga cy'imodoka, icyo kinyabiziga kikaba gicanye amatara y'imbere, aho ikinyabiziga iruhande yacyo hahagaze umuntu wambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'icyatsi inyuma mu mugongo.

Umuhanda urimo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, aho zimwe muri izo modoka harimo ifite ibara ry'ubururu ahagana hasi ku mapine, hakaba harimo n'indi y'ibara ry'umweru munsi y'ibirahure, izo modoka zikaba ziri mu muhanda zishoreranye ari nyinshi.

Inyubako y'igorofa yubatse imbere y'umuhanda aho mu nkengero z'umuhanda hateye ibiti hakaba hari n'urusinga rwambukiranya uwo umuhanda utwaye amashanyarazi.

Umuhanda urimo gutambukamo abantu bagiye batandukanye aho uwo muhanda ukikijwe n'imikindo ku ruhande ahandi hakaba hari amagorofa agiye atandukanye.

Ubusitani bw'inyubako aho muri ubwo busitani hakurya harimo abantu ,ubusitani bukaba buteyemo igiti cy'ururabo kiri mu bwoko bw'umukindo .

Ikibuga cy'umupira kirimo gukiniramo abantu, hakaba harimo amazamu akoze mu byuma, ibyo byuma bikaba bisize amarangi y'umweru.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bibuza, icyo cyapa kikaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ikirango cy'umukara, ubuso bw'umweru.

Umuhanda w'ibice bibiri aho harimo k'uruhande akagera k'abanyamaguru hakaba arimo gutambuka umuntu, aho iruhande rw'uwo muhanda cyangwa se ku ngendo z'umuhanda hari icyapa cyo m'ubwokobuza umuvuduko ntarengwa akaba ari mirongo itandatu, bikaba biri mu buso bw'umweru ikirango cy'umukara umuzenguruko w'umutuku.

Icyapa kerekana icyerekezo cy'ibumoso, aho ikimenyetso kerekana icyo cyerekezo kiri mu ibara ry'umukara, ubuso bw'umuhondo, kikaba kerekana icyerekezo cy'ibumoso.

Icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, aho cyerekana ko hatemerewe guparika ikinyabiziga. Kikaba kirimo ikirango cy'umukara, ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha, aho iki cyapa gifite ikimenyetso cy'umukara, ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ishusho ya mpande eshatu.

Umuhanda w'ibisate bibiri aho mu nkengero zuwo muhanda hari icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha kikaba kimenyesha ko imbere hari umuhanda unyerera, ikirango kikaba ari umukara ubuso bw'umuhondo umuzenguruko w'umukara.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, icyo cyapa kikaba kirimo ibirango by'umukara ibyo birango bikaba biri mu buso bw'umuhondo.

Igisate cy'umuhanda aho mu nkengero z'uwo muhanda hateye imikindo hakaba hari icyapa cyo mu bwoko bw'icyapa bitegeka, kikaba gitegeka aho kunyura bazengurutse kikaba gifite ubuso bw'ubururu ikirango cy'umweru umuzenguruko w'ubururu.

Umuhanda w'ibisate bibiri, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibyapa byo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha n'ibindi byapa bibuza, ibyapa bimenyesha hakaba harimo icyapa cya mpande eshatu, gifite umuzenguko w'umutuku ubuso bw'umuhondo ikimenyetso cy'umukara.

Icyapa kirimo ikirango cy'umukara, aho icyo kirango kiri mu buso bw'umuhondo, kikaba gifite umuzenguruko w'umukara, akaba ari icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha, iki cyapa kikaba kirimo kirerekana ibyerekezo, kikaba ari icyapa kiri mu ishusho ya mande enye, gifite ubuso bw'icyatsi, umuzenguruko w'umweru n'ikirango cy'umweru.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha, icyo cyapa kikaba gifite ikirango cy'umukara kirimo ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku akaba ari icyapa cya mpande eshatu.

Icyapa gishinze iruhande y'umuhanda icyo cyapa kikaba cyanditseho amagambo y'umukara ari mu ubuso bw'umweru icyo cyapa kikaba kiri mu ishusho ya mpande enye, kikaba cyerekana akarere ka bugesera.

Icyapa gikoze mu ishusho ya mpande enye, icyo cyapa kikaba gifite umuzenguruko w'umukara, ikirango cy'umukara, icyo kirango kikaba kiri mu buso bw'umuhondo.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha, icyapa kikaba kiri mw’ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku mu buso bw'umweru ikirango kikaba kirimo ibara ry'umuhondo, umutuku n'icyatsi.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha, aho iki cyapa cyerekana ko hari aho baparika imodoka igihe cy'umwanya muto. Kikaba gifite ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru, umuzenguruko w'umweru.

Iyi foto irerekana ibyerekezo bitegetswe aho harimo ikirango cy'umweru mu buso bw'ubururu umuzenguruko w'ubururu n'umweru ikaba yerekana icyapa gitegeka.

Igorofa imbere y'iryo gorofa hakaba hanyuze insinga zitwara umuriro uringaniye w'amashanyarazi izo nsinga zikaba zifite igishishwa cy'umukara.

Inyubako ifite igipangu inyuma, icyo gipangu kikaba kiriho amatara atanga urumuri, iyi nyubako ikaba hejuru yaho hanyuze insinga zigeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage.

Inyubako y'uruganda runini aho munsi yizo nyubako hari ubuhinzi bw'ibiribwa muri iyo mirima iri munsi y'uruganda hakaba harimo imashini ishinzwe gucukura iri mu bwoko bw'ibara ry'umuhondo.

Urusinga rutwaye umuriro uringaniye w'amashanyarazi, aho uru rusinga rushinzwe kugeza umuriro ku baturage, uru rusinga rukaba rufite igishishwa cy'umukara, aho runyuze hejuru y'inyubako nyinshi cyane zituyemo abaturage batandukanye.

Ahantu hari imiturire nk'ubu buryo bw'ubucucike aho harimo amazu menshi cyane atuwemo n'abantu, ayo mazu akaba asakajwe nabo batagiye atandukanye, aho harimo amabati yo mu ibara ry'umutuku, hakaba nayo mu ibara ry'umweru, hakaba hari n'ibiki bishinzwe gutwara insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka y'umukara iri mu muhanda w'ibisate bibiri ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari ahantu hari uruzitiro rw'ibyuma biteye irange ry'umukara, hakaba hari na fondasiyo y'amatafari ahiye.

Inyubako igeretse inshuro imwe imbere yayo hakaba ari umuhanda uri gucamo imodoka, hakurya y'umuhanda hakaba hari ubusitani n'aho ibyabiziga biparika, iyo nyubako ikaba yasize amarangi y'umweru, ku ibaraza ryayo hakaba hari amatara ashinzwe kubonesha.

Umuhanda hakurya yuwo muhanda hakaba haparitse imodoka eshatu, izo modoka eshatu hakaba harimo ebyiri zisa n'umweru, hakurya hakaba hari inzu iteye irangi ry’umweru.

Imodoka ihagaze imbere y'igorofa aho muri iryo gorofa hari amagambo asobanura ko bacuruza amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi hakaba hari na nimero babahamagariraho ku buntu ariyo gatandatu gatandatu umunani umunani.

Igorofa risize irange ry'umweru iryo gorofa rikaba rifite igipangu icyo gipangu kikaba kirimo ibyuma biteye irangi ry'icyatsi imbere yiryo gorofa hakaba hateye ubusitani.

Inyubako igeretse, ikaba ifite urugi ku irembo, aho ifite igipangu gikoze mu byuma, giteyemo indabyo, imbere y'iyo nyubako hakaba haparitse umumotari ufite ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku, akaba yambaye n'ingofero y'umutuku.

Umuhanda uri kwambukiranyamo abanyamaguru, aho umuhanda mu nkengero zawo hari ahaparitse ibinyabiziga, hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa mu gufata insinga zitwaye amashanyarazi.

Umudugudu utuwe cyane, uwo mudugudu ukaba ugizwe n'inyubako harimo izigeretse, hakaba harimo n'izindi nyubako ziteye irangi ry'umweru n'izisakaje amabati yo mu ibara ry'umutuku.

Insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi abo harimo iziitwara umuriro uringaniye, izitwara umuriro mwinshi izo nsinga zikaba zirimo kunyura hejuru y'inyubako harimo zisakaje amabati ya orange hakaba harimo n'isakaje amabati y'umweru.

Umumotari utwaye ikinyabiziga akaba ari mu muhanda w'ibisate bibiri umumotari akaba yambaye ingofero y'ubururu ikinyabiziga cye kikaba gifite batiri ,iri ni irangi ry'umuhondo n'ikinyabiziga gifite irangi ry'umutuku n'umuhondo .

Inyubako iri imbere y'umuhanda inyuma ku gipangu kuri iyo nyubako hakaba hari fondasiyo yomekesheje amabuye, hagati yayo mabuye hakaba hateye irangi ry'umukara.

Ibiti biri muri pariki ya Nyandungu, muri ibyo biti hakaba hicayemo abantu babiri umwe wambaye umupira w'umuhondo, undi wambaye umupira w'umweru ahagana hakurya.

Icyapa cyerekana ahubatse ibiro by'akagari ka Mbogo munsi y'icyo cyapa hakaba hariho nimero y'isibo, icyo cyapa kikaba cyerekana ko ibyo biro biri muri metero ijana uvuye kuri icyo cyapa.

Igorofa rifite hejuru ibyuma bishinzwe gutanga interinete, iryo gorofa imbere yaryo hakaba hariho ibinyabiziga birimo kuhanyura biri mu bwoko bw'imodoka, harimo izifite amabara y'umweru, ayikigina, imbere yayo hakaba hari n'igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye ingufu nini z'amashanyarazi.

Igorofa rirerire munsi y'iryo gorofa hakaba hahagaze ibinyabiziga birimo imodoka. Muri izo modoka hakaba harimo ebyri z'umukara n'ndi imwe y'umweru.

Umudugudu utuwe n'abantu benshi muri uw mudugudu hakaba hari inyubako zigiye zifite amabati y'umutuku hakaba hari n'inyubako ifite ikigega gifite ibara ry'umukara.

Ihuriro ry’imihanda itatu imbere y’iryo huriro, hakaba hari inyubako y’igorofa. Imbere y’izo nyubako, hakaba hateye ibiti. Aho inyubako iteye, irangi ry’umuhondo.

Uyu muhanda urimo imirongo y'umweru, aho iyo mirongo yerekana aho abanyamaguru bashinzwe gutambuka, imbere yaho hakaba haparitse abamotari bitegura gutambuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuti uri kurinduka hirya imbere gato hari sitasiyo ahantu imodoka zinywera esanse, hakaba haparitse imodoka iri mu ibara ry'umutuku y'ikamyo.

Umuhanda ushushanyijemo imironko ndagakerekezo, iyo mironko ikaba, ifite ibara ry'umweru, muri uwo muhanda hakaba hari kunyuramo ikinyabiziga cyo mu ibara ry'umukara.

Umuhanda w'ibisate bibiri, ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ubusitani, kandi hakaba hari n'amatara ashinzwe kubonesha, muri uwo muhanda hakaba hari imodoka y'umukara.

Umuhanda urimo amatara amurika, ayo matara akaba amurika mu mabara agiye atandukanye, aho hari amurika mu ibara ry'icyatsi, andi akamurika mu ibara risa n'icunga rihishije.

Isangano ry'imihanda aho imbere hari umuhanda w'abanyamaguru barimo gutambuka, hakaba harimo umugore wambaye ibitenge by'ubururu, imbere hakaba hari ikinyabiziga cy'imodoka na moto bitegura gutambuka.

Iyi foto irerekana umuhanda aho harimo umumotari uri guturuka imbere hakaba hari n'abanyamaguru ku muhanda wo mu gice cyo hepfo barimo kuza bagana imbere.

Umumotari utwaye umugore kuri moto imbere y'abo hakaba hari ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, icyo kinyabiziga kikaba gifite amabara y'umweru n'umuhondo, uwo mumotari akaba yambaye ingofero y'umutuku.

Umuhanda unyura hejuru y'undi aho umuhanda uri munsi y'undi hariho umuntu utwaye igare, akaba kuri iryo gare ahetseho ameza akoze mu bwoko bw'ibiti .

Igikoresho cya polisi y'u Rwanda cyifashishwa mu gupima no kumva umuvuduko ikinyabiziga kinyuzeho gifite, yaba ari umuvuduko urengeje igipimo kikaba cyamufotora bakamwandikira amande.

Umuhanda urimo amatara yaka ashinzwe gutanga uburenganzira bwo gutambuka, ayo matara akaba arimo kwaka mu ibara ry'icunga rihishije, hakurya yayo matara hakaba hari ibinyabiziga byitegura gutambuka.

Isangano ry'imihanda, aho hari ikinyabiziga kirimo gihinguka cy'ubwoko bw'imodoka, hakaba hari n'abamotari bagiye batandukanye, barimo bajya mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umuhanda unyura hejuru y'undi aho munsi y'umuhanda uri hejuru hari umuntu urimo gutambuka imbere hakurya hakaba harimo guturuka ibinyabiziga birimo amapikipiki n'imodoka .